Aha ngaha hari inyamaswa imenyerewe cyane cyangwa itungo rikunze gutungwa n'abantu benshi ry'ingurube, hakaba hari ikirangantego cy'ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda, hakaba handitse ubwishingizi bw'ingurube, ni amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Aha ngaha hari umugabo n'umugore bambaye imyenda itandukanye. Umugore yambaye ishati y'umuhondo ndetse n'ipantaro y'icyatsi, umugabo yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ubururu, bakaba bicaye ku ntebe nziza cyane zifite ibara ry'umweru, bakaba bari bishimiye ikigo cy'ubwishingizi kibafasha, gikoresha amabara y'umuhondo, umweru ndetse n'ubururu.

Iyi shusho iragaragaza ikirangantego cy'ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'ubururu, akaba ari ikigo kandi gitanga ubwishingizi ku bintu bitandukanye harimo ubw'ubuzima, ubucuruzi ndetse n'imitungo itandukanye, byandikishijwe amabara y'ubururu ndetse n'ayo umukara, hakaba hari amashusho atandukanye ari kuri iki gipapuro.

Ahangaha hari inyubako nziza cyane kandi ndende yubakishije ibirahure ndetse ahandi hasize irangi ritukura ndetse n'irangi ry'umuhondo, hakaba hari ibiti bishyirwaho amatara amuririka ibinyabiziga ku muhanda ndetse n'amatara ayobora ibinyabiziga akaka amabara atandukanye bityo bikarinda ibinyabiziga kugongana cyangwa izindi mpanuka za hato na hato.

Uru ni urubuga rw'ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda, ni umusore wambaye ingofero ya kaki mu mutwe ufite icyuma cy'ikoranabuhanga gikoreshwa mu itumanaho mu ntoki, arimo arerekana urubuga rw'iki kigo cy'itumanaho uburyo gikora cyangwa se amakuru yacyo.

Ahangaha hari ikirangahantu kigaragaza ko hano hari ikigo cy'ubwishingizi, gitanga ubwishingizi ku bashoferi batandukanye, gifite ibara ry'umutuku cyandikishijwemo ibara ry'umweru, hakaba hariho umwana mutoya w'umuhungu wambaye umupira w'umukara ndetse n'ingofero ifite ibara ry'umukara.

Aha ngaha hari ikirangantego cy'ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda ,hakaba hicaye umusore wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru, ndetse na karuvati y'ikijuju, akaba afite mudasobwa igendanwa mu ntoki, akaba arimo ayirebamo. Iruhande rwe hari ikinyabiziga cyangiritse cyane, hakaba hariho amagambo yanditswe mu ibara ry'umuhondo, ndetse n'umweru.

Ahangaha hari abantu babiri umukecuru n'umusaza bafatanye kandi bishimye bakundanye, hakaba hari ahantu handitse hari ikirangantego cy'ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'ubururu, gitanga ubwishingizi bw'ubuzima.

Ahangaha hari umuryango mwiza cyane wishimye w'umugore n'umugabo ndetse n'abana babiri umugore akaba yambaye agapira k'umuhondo, umwana yambaye, umukobwa yambaye agapira k'umutuku ndetse n'umugabo n'umwana wabo w'umu... ni abantu bakorana n'ikigo cy'ubwishingizi gitanga ubwishingizi bw'ubuzima.

Ahangaha hari abagabo babiri barimo barasuhuzanya, hakaba handikishijwe amagambo y'umweru yanditse ku ibara ry'ubururu hakaba handitseho ngo wihangayika intego ni ugutangira umwaka ushinganisha ibyawe n'abawe maze ugirere umutekano usesuye ibingibi byanditswe n'ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu rwanda.

Iri ni iduka ricuruzwamo imyambaro itandukanye n' iduka risa neza cyane kandi rifite isuku ,hanze hari icyapa gifite ibara ry'umukara kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umwerukaba ,hakaba harimo imyambaro itandukanye kandi ifite amabara atandukanye.

Ahangaha n’ inzu irimo imyambaro itandukanye kandi mw’iduka ry'imyenda harimo umukobwa wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umweru akaba afite icyo yifashisha icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mw’itumanaho harimo kandi n'ibindi bikoresho bitandukanye by'ubugeni hakaba harimo n'imashini yifashishwa mu guteranya amafaranga.

Aha ngaha hari imyambaro imanitse ahagenewe kumanikwa imyenda, ni imyambaro ikorewe mu Rwanda kandi myiza cyane, itondetse ku murongo kandi mu buryo bufite isuku. Hari ikozwe mu bitenge, hari ifite amabara y'umukara ariko ifitemo n'amabara y'umweru, hakaba hari n'indi ikoze mu bitenge, ifite amabara atandukanye arimo umutuku, icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu.

Ahangaha ni mu iduka ritoya ririmo umukobwa wambaye ikanzu irimo amabara y'umutuku ubururu ndetse n'umuhondo acuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo indobo zirimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo kandi ibintu byinshi umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi. Uyu mukobwa afite inoti mu ntoki arimo arazibara.

Iri ni iduka ritoya ribamo ibicuruzwa bitandukanye ariko hano harimo umugore uhagaze imbere y'akabati karimo ibicuruzwa bitandukanye, cyane cyane ibikozwe mu bugeni cyangwa se bikozwe n'intoki z'umuntu bitanyuze mu ruganda cyangwa ngo bikorwe n'amamashini.

Iri ni iduka ririmo ibikoresho bitandukanye cyane cyane by'umuco nyarwanda, akaba biri mu kabati gasize irangi ry'umweru, harimo ibitandukanye ariko bifite aho bihuriye n'umuco nyarwanda, harimo ibishushanyo by'amoko atandukanye ndetse n'ibindi bikoze/bigize ubugeni.

Ahangaha hari inzu nziza cyane ifite ibirahure ndetse isize irangi ry'umweru hejuru hakaba hari igipapuro cy'umweru cyandikishijwemo amagambo y'umukara hakaba harimo inzu ifite ibara ry'umuhondo mo imbere ndetse n'amatara meza cyane akaba ari inzu icururizwamo imyenda itandukanye cyane cyane iy'abagore hari amakanzu meza cyane ndetse n'indi myambaro itandukanye .

Iri ngiri ni isoko ririmo umugabo wambaye ishati y'umuhondo ndetse n'ingofero y'umweru, akaba ari kumwe n'umukobwa wambaye ishati y'ubururu ndetse ufite imisatsi miremire, wambaye amataratara ari kumufasha kureba/kubara cyangwa guteranya amafaranga, bari mu nyubako nini cyane irimo urujya n'uruza rw'abantu benshi.

Ahangaha hari ikinyabiziga cyiza cyane gifite ibara ry'umukara ndetse n'utubara tw'umweru, ni ikinyabiziga kibereye ijisho akaba ari ikinyabiziga giparitse ahantu hari n'ibindi binyabiziga hari ibyikorera amabuye ndetse hakaba hari n'imbangukiragutabara yifashishwa kugeza abarwayi kwa muganga.

Aha ngaha hari ikinyabiziga kiza cyane giparitse kandi ahantu heza cyane hari inyubako z'ubucuruzi ndetse hakaba hari ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru, ibirahure by'umukara ndetse kikaba gifite n'ibara ry'umukara, n'ikinyabiziga kiza cyane kandi cyujuje ubuziranenge.

Aha ngaha hari inzu nini cyane nziza cyane kandi yubatse mu buryo bugezweho, iparitsemo ibinyabiziga byinshi bitandukanye, bigurishwa cg se bikodeshwa, aha imbere hari ikinyabiziga cyiza cyane kandi cyubatse, kitatse neza gifite ibara ry'umweru, amapine y'umukara, ndetse n'ibirahuri by'umukara.

Aha ngaha hari abagabo babiri, umwe yambaye umupira w'umukara undi akaba yambaye ishati irimo amabara y'umweru n'umukara, bakaba bafite icyapa cy'ikigo cyigenga gikorera mu Rwanda gicuruza ndetse kikanakodesha ibinyabiziga bitandukanye. Inyuma yabo hari ikinyabiziga kinini cyane gifite ibara ry'ubururu n'ibara ry'umukara.

Aha ngaha hari inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imodoka, aho bazigurisha cyangwa se bakanazikodesha, ni inzu ifite uruzitiro rwubakishijwe ibyuma hakaba hariho n'igitambaro kiriho ikirangantego cy'uruganda ruzwi cyane ku isi mu gukora imodoka nziza cyane, harimo kandi ikinyabiziga gifite ibara ry'umuhondo kiriho amagambo yanditse mu ibara ritukura.

Aha ngaha hari abantu bane umugore umwe ndetse n'abagabo batatu, bafite ikirangantego cy'ikigo cyigenga gikorera mu Rwanda gikodesha kikanacuruza ibinyabiziga byiza cyane, bahagaze imbere y'inzu birimo ibyo binyabiziga mu gihe abaguzi bataraza kubireba.

Aha ngaha hari ibinyabiziga biparitse kandi byiza cyane biparitse ku murongo byose, bikoze kimwe kandi bimeze kimwe. Biparitse imbere y'inyubako ebyiri ndende, imwe ifite isize ibara ry'umuhondo, indi ifite ibirahure by'ubururu. Hakaba kandi hari n'ibiti bihakikije ndetse n'indabo nziza cyane.

Ahangaha haparitse ibinyabiziga byinshi cyane bitondetse ku murongo neza kandi bifite isuku bigaragara neza kubireba, bifite amabara y'umweru ndetse bikaba bifite amapine y'umukara, ni ibinyabiziga byiza cyane kandi bigezweho, imbere iruhande rwabyo hari inzu nini cyane ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, ibi binyabiziga kandi biba bigurishwa cg se bikodeshwa n'ikigo runaka cyigenga gikorera mu Rwanda.

Ahangaha hari ikinyabiziga cyiza cyane gifite ibara ry'umukara giparitse ahantu hasa umukara ndetse hakaba hari n'ibara ry'umuhondo giparitse ahantu hari uruzitiro rusize irangi ry'umuhondo ndetse hari n'ibyuma hejuru bisize irangi ry'umweru ni ikinyabiziga kigurishwa kuri miliyoni mirongo itatu na zirindwi .

Aha ngaha hari ibinyabiziga byiza cyane biparitse ku murongo, biparitse mu kibuga cyiza, hirya y'aho hari ibiti byiza cyane ndetse hakaba hari n'igiti kirekire gishyirwaho insinga z'umuriro w'amashanyarazi kugira ngo ziwukwirakwize. Ibinyabiziga ni byiza cyane kandi bibereye ijisho kubireba, bifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara, bikaba bifite amatara afite ibara ry'umutuku.

Aha ngaha hari abagabo bane, hari babiri bambaye impuzankano ndetse umwe yambaye isengeri y'icyatsi imenyerewe cyane mu bwubatsi, bakaba bafite icyapa kiriho ikirangantego cy'ikigo cyigenga gikorera mu Rwanda gicuruza kikanakodesha ibinyabiziga bitandukanye, iruhande rwabo hari ikinyabiziga cyiza cyane gitwara abantu gifite ibara ry'ikijuju.

Ahangaha ni mu iduka ricururizwamo ibinyabiziga bitandukanye cgangwa se bakabikodesha ahangaha niho bajya kurebera niba ibyo binyabiziga byujuje ubuziranenge kugirango babashe kubigeza ku masoko cgangwa se abaguzi babashe gutangira kubigura kuko bamenya ko byujuje ubuziranenge bidashobora kubagiraho ingaruka mbi.

Aha ngaha hari ikinyabiziga cyiza cyane gitwara abantu cyangwa se cyigenga gifite ibara ry'umweru, akaba ari ikinyabiziga kigurishwa kuri miliyoni cumi n'umunani, akaba kandi inyuma yacyo hari ibiti byiza cyane cyangwa se indabo z'amoko atandukanye.

Aha ngaha hari ibinyabiziga bine, byagenewe gutwara abantu benshi batandukanye, akaba ari ibinyabiziga biparitse ku murongo bifite ibara ry'umweru ndetse n'amapine y'umukara, si ibyo gusa kandi bifite n'ibirahure abantu bireberamo, bifite ibara ry'umukara.

Ahangaha hari ikinyabiziga cyiza cyane, kiri kwaka amatara. Gifite ibirahuri by'umukara ni ikinyabiziga kigurishwa miliyoni icyenda n'amagambo yanditswe ahantu h'ubururu handikishijwemo amagambo y'umweru. Hakaba hagaragaza izina ry'iki kinyabiziga n'uruganda rwagikoze. Byanditswe mu amabara y'umweru, ndetse byandikishijwe umutuku.

Ahangaha hari ameza afite ibara ry'umweru ateretseho ibiceri bibiri bizwi cyane mu Rwanda, akaba hari igiceri cya makumyabirikaba hari ndetse n'igiceri cya'atanu byose byanditseho repubulika y'u Rwanda.

Iyi ngiyi ni inote y'amafaranga y'u Rwanda, ni inote ikorwa n'igihugu cy'u Rwanda ifite ibara ry'umutuku akaba ari inote ifitemo uduseke tubiri hagati ndetse n'inkangara akaba kandi ari inote yanditseho amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara.

Aha ngaha hari ikiganza cy'umuntu wambaye isaha y'umukara ku kaboko akaba ari gushyira amafaranga mu mashini yagenewe kubara amafaranga, iyi mashini yifashishwa cyane mu bigo bicuruza amafaranga, akaba yifashishwa mu kubara amafaranga cyane cyane inoti kugira ngo hatabamo kwibeshya.

Aha ngaha hari umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu, akaba yambaye isaha ku kuboko, akaba ari umugabo ufite uruhu rwirabura, imbere ye kandi hakaba hari amafaranga menshi cyane ari hamwe afite ibara ry'umutuku y'ibihumbi bitanu y'u Rwanda.

Aha ngaha hari umugabo uhagaze imbere y'ikirahurI, akaba yambaye umupira w'ubururu ndetse akaba yambaye ikarita mu ijosi, igaragaza akazi akora. yambaye amataratara y'umukara, akaba yambariyemo ishati y'umweru ndetse na karuvati ifite ibara ry'umukara. akaba afite inoti nyinshi mu ntoki, bigaragara ko arimo arazibara.

Aha ngaha ni abantu bari guhererekanya amafaranga, uri imbere mu kirahure wambaye umupira w'umutuku ari guhererekanya amafaranga n'umusaza ukuze, wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu.

Aya ni amafaranga ibihumbi bibiri by'amafaranga y'u Rwanda, akaba ari amafaranga mashyashya akozwe vuba, hakaba hariho amazi ndetse n'ibyatsi hejuru cyangwa udusozi tuba mu mazi, akaba handikishijweho amagambo afite ibara ry'ubu ry'ubu ry'ubururu ndetse n'andi afite ibara ry'umukara.

Iyi shusho irerekana umugabo wambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'ubururu na karuvati y'umukara wambaye isaha ku kuboko, akaba afite igipapuro mu ntoki ndetse akaba ari gukoresha mudasobwa yandika ibintu bitandukanye, ku ruhande rwe hari undi mugabo nawe wambaye ishati y'umweru bari mu cyumba cyiza cyane, kigaragara neza kandi kibereye ijisho.

Iri ni iduka ritoya riirimo ibicuruzwa bitandukanye, birimo imineke amagi, amandazi ari mu ndobo y'umweru, hakaba hari n'isahani, ndetse n'akandi gacupa karimo urusenda akaba amandazi akozwe mu ifarini amata amagi ndetse n'isukari, ndetse hakaba yifashishwa n'amavuta si ibyo gusa kandi, munsi y'ameza harimo agatebo kagenewe kujugunywamo imyanda.

Iri ngiri ni iduka ritoya ricuruzamo ibyo kunywa bitandukanye, harimo umukobwa wambaye ikanzu y'icyatsi ndetse n'umuguzi wambaye umupira w'umweru. Inyuma hari akabati gateretsemo ibicuruzwa harimo ibyo kunywa bitandukanye, imitobe y'ubwoko butandukanye, harimo n'itunganywa n'uruganda rw'Inyange, hakaba kandi hari n'icyuma cyagenewe gukonjesha ibyo kunywa mu gihe abaguzi batabishaka bishyushye.

Ahangaha hari utujerekani tw'umweru twiza cyane dutondetse ku murongo tumenyerewe mu kubika amata igihe amata agiye kujyanwa ku masoko, kugira ngo atangirika ndetse n'utundi dukarito dushyirwamo amata makeya, kugira ngo buri wese agure uko ashoboye kuyagura.

Ahangaha ni mu iduka ritoya ririmo amabara y'ubururu ndetse n'umweru hakaba harimo intebe z'ubururu n'umweru ndetse hakaba harimo n'umugabo wambaye ishati y'ubururu irimo amabara y'umweru ni iduka ricururizwamo ibintu byo kunywa cyane cyane amata.

Ahangaha hari amajerekani y'umweru meza cyane agerekeranyije, ni amajerekani abikwamo amazi yo kunywa kandi kugira ngo agume afite isuku, hari urugi rufite ibara ry'ubururu, hakaba kandi hari icyuma gifite ibara ry'umweru cyagenewe gukonjesha ibinyobwa birimo amata ndetse n'ibindi bitandukanye harimo igikombe giteretse hasi gifite ibara ry'umweru.

Uyu ni umukobwa wambaye ishati y'umukara ufite uruhu rw'imibiri yombi, ndetse n'umusatsi muke ku mutwe arimo arabuganiza amata mu birarahure ayakuye mu kabido k'umwe, k'umuhondo gasa neza kandi gafite isuku kagenewe kubikwamo amata. N'ibirahure bine byose bibuganijemo amata biruzura, hirya kandi hari ikindi gikombe kinini giteretse ku isahani nacyo gishyirwamo amata.

Iringiri ni iduka ricuruza amata ndetse n’ibiyakomokaho. Harimo utujerekani tw’umweru twifashishwa mu kubika amata igihe kirekire kugira ngo atangirika. Hakaba kandi, hari n’ibindi bikoze mu mata bikunze cyane guhabwa abana batoya. Hakaba hari n’ingunguru yifashishwa mu kubika amata cyangwa iyagemura iyakura kukusanyiriza iyageza aho atunganyirizwa.

Ahangaha hari iduka ry'uruganda rukora ibijyanye n'amata cyangwa rutunganya amata rw'inyange hakaba hari abakobwa babiri bambaye impuzankano zifite ibara ry'umweru n'ingofero z'umweru akaba ari abakozi b'uru ruganda akaba akari kandi n'umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'undi mukobwa wambaye umupira ufite ibara ry'icyatsi.

Ahangaha hari ikiranhantu gifite ibara ry'ubururu kiriho ibyo kunywa bitandukanye harimo imitobe amazi amata ndetse n'ibindi bikomoka ku mata bitunganywa n'uruganda ruzwi cyane mu rwanda mu gutunganya ibyo kunywa bitandukanye rw'inyange.

Hano hari ikiribwa gikozwe mu ifarini, amata, amagi, umunyu, ndetse hifashishwa amavuta kugira ngo gitungane neza. Umuntu ugifashe arirabura kandi agifatishije agapapuro k'isuku kamufasha kutagira indwara yandura, bitewe n’ahantu aba yagiye akora hatandukanye kandi atizeye ko afite isuku ihagije.

Iyi shusho iratwereka uburyo bwo kwishyura bwashyizweho n'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda, ukishyura ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, ubifashijwemo n'icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu guhamagara no kohereza ubutumwa bugufi.

Iyi shusho iragaragaza uburyo ushobora guteganyiriza ahazaza h'umwana wawe, ku mafaranga make watangiza none yakubaka ejo heza hazaza h'abana bawe, ni ubwishingizi butega cyangwa ubwiteganyirize butangwa n'ikigo cyigenga gikorera mu Rwanda.

Uru ni urubuga rwashyizweho n'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda, gikoresha ibara ry'umuhondo n'umukara, akaba ari urubuga umuntu ajyaho kugira ngo abashe kwishyura ibicuruzwa yaguze. Ni urubuga kandi rwihutisha kandi rugateza imbere ubucuruzi.

Aha ngaha hari abakobwa batatu bicaye mu nzu irimo ibara ry'icyatsi, hakaba hari idirishya rifunguye ririho igitambaro gifite ibara ry'umutuku, hari umukobwa uri hagati wambaye ishati y'umweru irimo imirongo y'umutuku n'umweru ndetse n'umupira w'umukara wandikishijweho amagambo y'umweru ndetse n'icyatsi, akaba ari kubasobanurira bagenzi be bicaranye ibintu bigiye bitandukanye.

Uru nguru ni urubuga rukorera kuri murandasi, aho umuntu ajyaho akishyura ibintu bitandukanye, ari ukugura cyangwa kohereza amafaranga akabikorera kuri uru rubuga kuri murandasi adakoze ku mafaranga cyangwa se uwo yishyura nawe adakoze ku mafaranga.

Ahangaha hari imashini yifashishwa mu kubara amafaranga atandukanye, yaba ay'amanyarwanda cyangwa n'ayandi yo mu bindi bihugu. Igihe umuntu ari kubara ashobora kwibeshya ariko bayashyira muri iyi mashini ikayabara byoroshye kandi byihuse kandi ntago ishobora kwibeshya.

Aha ngaha ni aho bacururiza, bakorera cyangwa bakodeshereza intebe cyangwa ibindi bikoresho byo mu nzu bitandukanye. Hari intebe ndetse n'ameza, hari ameza afite ibara ry'ikijuju, ndetse n'utundi tumeza tubiri dutoya tuba turi kumwe n'izi ntebe. Ni intebe kandi zifite imisego ifite amabara y'ikijuju, umukara ndetse n'umweru.

Aha ngaha hari ameza ndetse n'ibindi bikoresho byo mu nzu, bibaje mu biti hakaba hari ameza, intebe ndetse n'utubati dutandukanye dushobora kubikwamo ibintu b'ingirakamaro kugira ngo bitangirika. Ni ibikoresho byiza cyane kandi bikomeye byifashishwa mu buzima busanzwe.

Ahangaha hari ijerekani ifite ibara ry'umuhondo yifashishwa kubikwamo amazi ni ijerekani ifite isuku hakaba kandi hari intebe nziza cyane zikozwe mu biti ndetse zifite ibara rijya gusa umuhondo n'ameza, ndetse afite ibara ry'izi ntebe sibyo kandi hari n'utubati twiza cyane dufite amabara y'umweru ahangaha ni ahacururizwa cyangwa hakodesherezwa ibikoresho byo mu nzu.

Ahangaha hari ameza ndetse n'intebe nziza cyane zibaje mu biti hakaba hari intebe ebyiri n'izindi ebyiri ku rundi ruhande ndetse n'amezaza ari hagati yazo ateretse imbere y'inzu isize irangi ry'umweru ndetse hakaba hari n'akugi gatoya gasize irangi ritukura.

Ahangaha ni mu nzu nziza cyane irimo imitako igiye itandukanye, ni inzu isize irangi r'umweru harimo imitako myiza cyane ibereye ijisho, harimo kandi n'indabo ziri mu nzu hakaba harimo intebe nziza cyane zifite ibara rijya gusa umutuku ariko na none rijya gusa umukara.

Ahangaha ni ku iduka ricuruza ibijyanye n'ibikoresho byo mu nzu harimo ameza intebe utubati ndetse n'ibitanda byo kuryamaho hari imisego cyangwa se ibindi bikoreshwa mu nzu bitandukanye bifite kandi amabara atandukanye hirya hari umugabo uri mu kazi wambaye imyenda ijya gusa kaki.

Aha ngaha hari inzu nziza cyane yubakishije amatafari ahiye ikaba isizemo irangi ry'ubururu. Hakaba hari ndetse kandi n'ibinyabiziga bibiri biparitse imbere y'iyi nyubako, hakaba hari kandi n'ubusitani bwiza cyane ndetse n'ibiti byiza bikikije iyi nyubako.

Aha ngaha hari inyubako nziza cyane ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'imyidagaduro cyangwa igacumbikira abantu, hari itara rimwe riri kwaka ibara ry'umuhondo, hakaba hari n'irindi hirya naryo ryaka ibara ry'umuhondo, ni ahantu hateguye neza cyane kandi hafite isuku hakaba hanakikijwe n'ibiti birebire.

Aha ngaha hari intebe nziza cyane ziteguye zifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, hakaba hari n'ameza meza cyane ndetse n'utundi tumeza dutoya abantu bashobora guterekaho ibyo kunywa mu gihe bicaye bari kuganira, hirya hari inzu/inyubako nyinshi kandi nziza cyane hakaba hari n'ishyamba ririmo ibiti.

Aha ngaha ni ahacururizwa ibyo kunywa bitandukanye by'amoko menshi, harimo amacupa atondetse neza kandi abereye ijisho, hakaba harimo n'insakazamashusho ireberwaho amashusho y'ibintu bitandukanye igihe abaguzi bari bicaye bari kunywa ibyo baguze, hari kandi amatara abiri yaka ibara ry'umweru.

Ahangaha hari icyumba cy'inama gitatse neza cyane kibereye ijisho kukireba, hariho intebe z'umukara abari mu nama bicaraho hakaba hariho n'amezaza ateguyeho igitambaro gifite ibara ry'ubururu kandi hakaba hariho buri mbere y'umwanya hakaba hari agacupa k'amazi atunganywa n'uruganda ruzwi cyane mu rwanda rw'inyange. Ni icyumba kirimo amatara menshi kandi y'umweru hasi hakaba hashashe icyo bahagararaho gifite ibara ry'umutuku.

Aha ngaha hari icyumba cyiza cyane kiriho uburiri bwiza cyane, hakaba kandi harimo idirishya rifite ikirahure kigari, ku buryo umuntu ashobora kureba hanze akareba akitegera umugi cyangwa amazu ari hirya kure akayabona neza.

Ahangaha hari intebe ziteguye neza cyane ziza kandi zikoze mu buryo butangaje hari ndetse n'imitaka itwikiriye izo ntebe ifite ibara ry'umweru kugira ngo abazicayemo baticwa n'izuba cyangwa imvura ikabanyagira, ni ahantu kandi hari ubusitani bwiza cyane buteyemo ibiti kandi hafite isuku ku buryo umuntu ashobora kuhajya akaharuhukira ndetse akanidagadura.

Ahangaha hari inzu isize irangi ry'umuhondo ifiteho icyapa cy'ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo umweru ndetse n'ubururu n'icyapa kiri mu karere ka Muhanga ni ishami ry'iki kigo kandi akaba ari icyapa cyegereye ahantu hari abantu bashaka gukenera ubwishingizi butangwa n'iki kigo cy'ubwishingizi.

Aha ngaha hari inzu z'ubucuruzi ariko hari ibirangahantu bigaragaza ko hano hakorera ikigo gitanga ubwishingizi ku bintu bitandukanye, hakaba hari kandi n'ikirangahantu kigaragaza ko hano hakorera ikigo gitanga amafaranga kikayabika, kikanayabikuza gikorera mu Rwanda.

Ahangaha hari abantu bane hari abakozi babiri bicaye imbere ya mudasobwa b'ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda, hari ndetse n'abafatabuguzi b'icyo kigo hari umugore wambaye umupira w'umuhondo ufite imisatsi miremire, ndetse n'umugabo wambaye amataratara wambaye n'ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara.

Aha ngaha hari inzu ifite ibara ry'umuhondo ndetse ifite amadirishya afite ibara ry'umweru, hakaba hari ikirangahantu kigaragaza ko aha ngaha hari ishami ry'ikigo cy'ubwishingizi gitanga ubwishingizi ku bintu bitandukanye, gikoresha ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umuhondo, ni ishami ry'iki kigo giherereye i Muhanga.

Iyingiyi ni inzu nziza cyane ikoreramo ikigo cyigenga, ni inzu isize amarangi y'umweru mu imbere harimo intebe bicaraho hakaba hariho amagambo yanditswe mu ibara ry'umutuku, ikaba kandi ifite ibirahure byiza bibereye ijisho.

Iyi ngiyi ni inyubako irimo ibikoresho byiza cyane byo mu nzu kandi bibereye ijisho kubirebadetse neza kandi bifite isuku hari kandi ahantu hari ikirangamigo cy'ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu rwanda gitanga ubwishingizi bw'ubuzima ndetse no ku bindi bintu bitandukanye.

Ahangaha hari inyubako y'ubucuruzi irimo ubucuruzi butandukanye hakaba imbere yaho haparitse ibinyabiziga byinshi bitandukanye, hari ikiri kugenda gifite ibara ry'umweru cyagenewe gutwara imizigo hakaba hari n'ibindi biriparitse imbere harimo igifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'icyatsi hari kandi n'ikirango kigaragaza ko hano hari ikigo cy'ubwishingizi .

Aha ngaha hari umugabo munini, ufite umusatsi w'umukara ndetse n'uruhu rwera, ariko yambaye imyenda y'imikara, ikote n'ipantaro by'imikara ndetse n'inkweto ziriho akabara k'umweru, akaba yambaye ndetse n'ishati y'umweru. Akaba ahagaze ahantu hasize irangi ry'umweru, hari intebe nziza cyane ndetse n'ameza y'umweru, kuri ayo meza hariho mudasobwa ndetse n'ikaramu yo kwandikisha.

Ahangaha hari inzu nziza cyane irimo irangi ry'umweru hejuru ku gisenge, hakaba hari ibara ry'umutuku, hakaba kandi harimo n'amatara meza cyane, ni ibiro birimo intebe nziza cyane z'umukara bicaraho, ndetse n'utumeza two gukoreraho ibintu bitandukanye, hakaba harimo kandi n'igi n'ururabo ruri ruteretse mu kibindi cyagenewe gushyirwamo indabo.

Ahangaha hari inyubako y'ubucuruzi ifite ibirahuri by'ubururu hakaba hari ibiranga hano bigaragaza ko hano hakorera ikigo cy'ubwishingizi, gikoresha ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu handikishijemo amagambo y'umweru iri ni ishami ry'iki kigo rikorera mu karere ka Kicukiro iyo nyubako kandi ikorerwamo n'ibindi bintu bitandukanye ubucuruzi butandukanye ndetse n'ikindi kigo cy'ubwishingizi nacyo gikoresha ibara ry'ubururu ndetse handikishijwemo amagambo y'umweru.

Ahangaha hari inyubako ebyiri ndende hari inyubako nziza cyane yubakishije ibirahureri by'ubururu ndetse ikaba isizemo amarangi y'umweru sibyo gusa kandi hari n'indi nyubako byegeranye iriho ikirangantego kigaragaza ko hano hakorera ikigo gitanga ubwishingizi ku bintu bitandukanye ,izi nyubako kandi zikikijwe n'ibiti byiza cyane bibereye ijisho hari ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga ruri kubera ku ruhande .

Aha ngaha hari ibiro byiza cyane bitatsemo ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umweru, hakaba harimo amagambo yanditswe mu ibara ry'ubururu. Ni ibiro by'ikigo gitanga ubwishingizi gikorera mu Rwanda, gitanga ubwishingizi ku bintu bitandukanye harimo ubuzima ndetse n'imitungo igiye itandukanye, cyane cyane imitungo itimukanwa.

Aha ngaha hari ikirangahantu kigaragaza ko hano hakorera ikigo cy'ubwishingizi, ni ikirangahantu cyanditswe mu mabara y'umukara gifite ibara ry'umweru ndetse hari abantu benshi batandukanye, abagore n'abagabo bategereje ubufasha mu bijyanye n'ubwishingizi, ni inzu irimo amabara menshi atondetse ku murongo ari kwaka ibara ry'umweru.

Aha ngaha hari umugabo wambaye ikote ry'umukara, ipantaro y'umukara n'ishati y'ubururu, akaba afite amafaranga mu ntoki menshi y'ibihumbi bitanu, akaba yishimye kandi hakaba hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara yanditse ngo karame.

Ahangaha hari umukobwa wambaye umupira w'umweru ufite udukapu bahahiramo mu ntoki, akaba afite ikarita y'icyatsi yahawe n'ikigo gitanga inguzanyo y'amafaranga, kuburyo bashobora kuguha inguzanyo ugahaha ntacyo wikanga.

Aha ngaha hari inyubako ndende y'ubucuruzi ikoreramo ibigo bitandukanye by'ubucuruzi ndetse n'ibindi byigenga, akaba ari inyubako ifite ibirango ahantu bibiri hasi no hejuru, byandikishijweho amagambo y'umuhondo bikaba bifite ibara ry'ubururu.

Ahangaha hari inzu nziza cyane irimo intebe zitandukanye, hakaba harimo igiti gifite ibara ry'icyatsi gitatseho, bataka cyane mu mazu ndetse no mu nyubako zitandukanye mu minsi mikuru wa noheli, hakaba hari intebe z'umukara ziza cyane abantu bicaraho igihe bategereje ubufasha.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza cyane y'ubucuruzi isize amarangi y'umuhondo ndetse n'umweru, akaba ari inzu ikoreramo ibigo bitandukanye byigenga ndetse n'ibigo bya leta hakaba hari ibigo bicuruza amafaranga ndetse n'ibindi bigo by'ubwishingizi hakaba hari kandi abantu batatu bahagaze imbere y'iyi nyubako umugabo umwe wa yambaye umupira w'umutuku ndetse n'abandi babiri bari kumwe na we.

Iringiri ni isoko ricururizwamo ibintu byinshi bitandukanye harimo imyenda y'amabara menshi hari kandi abagabo batatu bari ku ruhande rumwe begeranye harimo uwambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ingofero y'umukara akaba hari n'undi uhagaze kuru rundi ruhande nawe wambaye umupira w'umuhondo ni nk'isoko rifite amabati ashaje ariho imyanda hejuru kandi rifite n'irindi bati rifite ibara ry'icyatsi.

Aha hari ibicuruzwa byiza cyane kandi bibereye ijisho ku bihaha, ni ibicuruzwa bikoreshwa cyane mu gikoni cyane cyane ko ari imboga, kandi ni ibicuruzwa bigira akamaro mu buzima bw'umuntu, harimo inyanya, intoryi, ndetse n'ibindi bikoreshwa mu guteka cyane cyane imboga z'amoko menshi atandukanye, zifite amabara atandukanye hari ay'umukara, umuhondo, umutuku, icyatsi, ndetse n'andi menshi.

Iringiri n’ isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye cyane cyane imboga harimo inyanya, itoryi hakaba harimo n'ibindi bitandukanye harimo ibitunguru, amashu akaba hari abagabo babiri ndetse n'umugore umwe wambaye ikanzu y'umutuku irimo amabara y'umweru n'umukara.

Iri ngiri ni isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye ariko bikoreshejwe intoki cyangwa se bikozwe bikorewe mu Rwanda kandi bikozwe mu muco nyarwanda, ni ibicuruzwa cyane cyane by'ubugeni bigiye bitandukanye birimo uduseke ndetse n'ibindi bishushanyo by'ubugeni bitandukanye byiza cyane kandi bibereye ijisho.

Iri ngiri ni isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo n'abacuruzi mu bicuruzwa birimo harimo urusenda, intoryi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byifashishwa mu guteka cyane cyane ibijyanye n'imboga, cyangwa se ibirungo byo gushyira mu biryo.

Iri n'isoko ririmo ibiribwa bitandukanye ririmo abacuruzi ndetse n'abaguzi benshishi bagiye batandukanye. N'isoko ririmo ibicuruzwa nk'ibitoki, ibitunguru, inyanya ndetse n'izindi mboga n'imbuto bigiye bitandukanye umuntu ashobora kwifashisha mu guteka. Hirya hamanitse icyapa cy'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo.

Iri ngiri ni isoko rihuriramo abantu benshi cyane hakaba harimo umugabo uri gusohoka wambaye imyenda y'icyatsi, ufite uruhu rwera ndetse n'ubwanwa, akaba afite ishashi mu ntoki amaze guhahiramo, hakaba hari kandi n'abacuruzi batandukanye, bambaye imyenda itandukanye.

Ihangaha hari ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye, harimo inyanya, imineke, amashaza ari mu ibase y'ubururu ndetse ari gupimishwa isorori y'ubururu, hari ndetse n'umufuka urimo ibishyimbo, hakaba hari n'undi urimo ubunyobwa, ndetse n'igikapu kiri hasi gikozwe mu mabara atandukanye.

Iri ngiri ni isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye cyane cyane imboga n'imbuto harimo imineke, inyanya ndetse n'ibindi bikoreshwa mu guteka cyane cyane imboga, hari umugore uri imbere w'umucuruzi wicaye, akaba yambaye ishati y'umutuku ndetse yiteza n'igitambaro mu mutwe.

Ahangaha ni mu isoko rinini cyane riba ririmo ibicuruzwa by'amoko atandukanye, hari amagi ndetse ari mu twagenewe kubikwamo amagi tw'amabara atandukanye icyatsi ubururu ndetse n'umutuku, hari ababyeyi babiri bacuruza bose biteze ibitambaro mu mutwe.

Iyi ni inyubako nini cyane ndende igeretse inshuro eshatu , ifite imiryango myinshi cyane ikoreramo ubucuruzi bugiye butandukanye . Ni inyubako isize amarangi y'umweru irimo imiryango myinshi cyane imbere yiyo nyubako haparitse ikinyabiziga kimenyerewe mugutwara imizigo iremereye cyane cyane amabuye ndetse n'imicanga yo kubakisha .

Iringiri ni isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye ahangaha hari abantu imbere yabo hari imyumbati , ibijumba ,karoti ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye birimo imboga ndetse hakaba harimo ubucuruzi buri kujya mbere hagati y'abaguzi n'abagurisha hari n'isoko ririmo urujya n'uruza rw'abantu benshi .

Aha ngaha hari imbuto n'imboga nyinshi cyane z'amoko atandukanye abantu bakenera cyane cyane mu guteka, hakaba harimo imbuto z'amoko menshi, imboga ndetse n'ibindi bitandukanye. Ni ibintu bibereye ijisho kandi ubona ko bifite isuku ku buryo byujuje ubuziranenge.

Iri ni iduka ritoya ry'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo, harimo umukozi w'iki kigo wambaye ishati y'umweru ndetse afite umusatsi muremure, hirya hakaba hari undi mugabo wambaye umupira w'umuhondo, hari kandi n'undi wambaye ishati y'icyatsi, uyu mukozi w'iki kigo aba ashinzwe gufasha abafatabuguzi b'iki kigo kubona ubufasha mu bijyanye no kohereza, kwakira amafaranga ndetse n'itumanaho muri rusange.

Aha ngaha ni mu iduka ritoya ry'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha amabara y'umutuku n'umuhondo, hari utubati tw'ibirahure turimo ibikoresho bitandukanye by'itumanaho kandi iri duka riba rikoreramo abakozi bafasha abafatabuguzi b'iki kigo kubona ubufasha mu bijyanye n'itumanaho guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi cyangwa se kubikuza, kohereza amafaranga, kuyabitsa, ndetse no kuyakira.

Ahangaha hari icyapa kiranga ko hano hari iduka ry'ikigo cy'itumanaho gikorera mu rwanda gikoresha amabara y'umuhondo harimo ndetse n'ay'umweru ndetse n'andi y'ubururu; iri duka rifasha abafatabuguzi b'iki kigo baryegereye kubona ubufasha mu byerekeranye n'itumanaho cyane cyane nko kubitsa, kubikuza, kohereza ndetse no kwakira amafaranga.

Iri ni iduka ritoya ry'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo, akaba ari iduka rikoreramo umukozi w'iki kigo ufasha abafatabuguzi bacyo kubona ubufasha butandukanye burimo kubitsa kubikuza kohereza no kwakira amafaranga cyangwa ibindi bijyanye no guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi.

Aha ngaha hari iduka ry'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo, hakaba hari abakozi b'icyo kigo bane bambaye impuzankano zifite ibara ry'umweru n'umuhondo, hakaba hari n'abafatabuguzi b'icyo kigo bari gusaba ubufasha mu bintu bitandukanye, birimo kohereza, kwakira no kubitsa amafaranga.

Aha ngaha hari akaduka gatoya k'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo, haba harimo umukozi w'icyo kigo ufasha abafatabuguzi b'icyo kigo kubona ubufasha mu bintu bitandukanye birimo kubitsa, bikuza, kohereza ndetse no kwakira amafaranga cyangwa se mu bindi bibazo bafite bijyanye n'itumanaho, nko guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi. Hari umukobwa wambaye umupira w'umukara ndetse n'abandi bagabo babiri.

Iri ni iduka ry'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'umukara hakaba harimo abakozi b'icyo kigo ndetse n'abafatabuguzi b'icyo kigo bafasha abafata buguzi kubona ubufasha mu bintu bitandukanye birimo kubona uburyo bwo guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kubitsa ,kubikuza cyangwa se kohereza amafaranga .

Iri ni iduka rikoreramo ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo, harimo abakozi b'iki kigo ndetse n'abafatabuguzi bacyo bari gusaba ubufasha ku bintu bitandukanye. Hari undi wicaye ut ntebe aho bategeza wambaye umupira utukura ubufasha abafatabuguzi baba bashaka uwabujyanye no kubitsa kukuza kwakira amafaranga cyangwa se ibindi bijyanye n'itumanaho nko guhamagara no kwehereza ubutumwa bugufi.

Ahangaha hari iduka ritoya ry'ikigo cy'itumanaho gikorera mu rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo aho haba harimo umukozi umwe ushinzwe gufasha abafatabuguzi b'icyo kigo kubaha ubufasha mu bintu bitandukanye bijyanye n'itumanaho birimo kubitsa, kohereza, kwakira ndetse no kubikuza amafaranga ndetse n'ubundi bufasha bujyanye n'itumanaho nko guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi.

Iri ni isoko riba kuri murandasi ryitwa murukali, aho umuntu ajyaho agashakisha ibikoresho akeneye maze akabitumiza bityo bikamugeraho, ibi ngibi bikorohera umuguzi ndetse n'umucuruzi, ibi byoroshya ubucuruzi kandi bituma ubucuruzi bukomeza gutera imbere.

Iri ni isoko rikorera kuri murandasi, ribaho ibicuruzwa bitandukanye birimo imyambaro, inkweto ndetse n'ibikapu ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, aho umuguzi ashobora kujyaho agahitamo igikoresho ashaka, akagitumiza maze kikamugeraho atavuye ahari.

Uru ni urubuga rucuruza imyambaro aho ujyaho ukabona imyenda cyangwa imyambaro itandukanye ,iri duka ririho amarangi y'umweru ni iduka ryiza cyane kandi rifite isuku hejuru hari ikirangantego cy'zina ry'iryo duka handikishijweho amabara y'umukara hakaba harimo imyambaro itandukanye kandi ifite amabara atandukanye.

Ahangaha hari abagabo babiri hakaba hari umugabo wambaye umupira w'umutuku ndetse n'agapfukamunwa k'umukara akaba ari kumwe n'umugabo utwara ipikipiki, ivana ibicuruzwa ku mucuruzi ibigezwa ku muguzi akaba inyuma arimo arakuramo ibyo amuzaniye.

Iringiri ni isoko rikorera kuri murandasi aho umuntu ajyaho akareba ibicuruzwa akeneye cyangwa ibikoresho akeneye maze akabitumiza yamara kubitumiza bikamugeraho mu gihe gitoya kandi byihuse bitewe n'icyo ashaka ,aragishaka kandi akakibona akagitumiza maze kikamugeraho bitamugoye .

Iri ngiri ni isoko riba kuri murandasi ribaho ibikoresho bitandukanye ibyo mu nzu, ndetse n'ibindi umuntu akenera mu buzima busanzwe. Uru rubuga urujyaho ugashaka ibikoresho ukeneye maze ukabitumiza bakabikuzanira utavuye aho uri.

Urunguru ni urubuga rukorera kuri murandasi ruba ruriho ibicuruzwa bitandukanye ujyaho ugatumiza ibicuruzwa ukeneye hanyuma bikakugeraho utavuye aho uri, ikora nk'isoko rikorera kuri murandasi ibingibi biroroshye kandi byihutisha ubucuruzi.

Ahangaha hari ipikipiki iparitse ku muhanda ifite umwanya wicaraho ufite ibara ry'umukara, hakaba hari umugabo uri gukuramo ibicuruzwa agejeje aho yagombaga kubijyana wambaye isengero ikoreshwa mu kazi ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'amabara abiri y'ikijuju hagati, ubu ni uburyo bukoreshwa mu bucuruzi aho umuguzi atumiza ibicuruzwa bikamugeraho atavuye ahari.

Aga ngaha hari inzu nziza cyane itatse neza kandi isize amarangi meza, akaba ari inzu ifite amadirishya asize irangi ry'umweru, ifite ibirahuri by'umukara, hari inzu iherereye mu mujyi wa kigali igurishwa kuri miliyoni ijana na mirongo itanu z'amafaranga y'u Rwanda. Ifite kandi uruzitiro rwiza cyane kandi rukomeye.

Ahangaha hari inzu nziza cyane isizemo amarangi y'umweru gusa ikaba ifite igikoni cyiza cyane giteguye neza kandi gifite isuku hakaba harimo ibikoresho bitandukanye harimo ibyagenewe gucomekwamo bitanga umuriro w'amashanyarazi harimo ibishyushya ndetse n'ibikonjesha ni'igikoni kandi kirimo itara ryiza cyane rimurika ibara ry'umweru.

Aha ngaha hari inzu nziza cyane yubatse kandi mu buryo bugezweho, ni inzu isize irangi ry'umweru mo imbere, ikaba ifite idirishya ririho ibara ry'umukara. Ni inzu ifite isuku kandi ibereye ijisho, ni inzu igura miliyoni ijana na mirongo itatu z'amafaranga y'u Rwanda, ushobora kugura mu mujyi wa Kigali mu Rwanda.

Ahangaha hari inyubako ndende ifite imiryango myinshi ndetse n'amadirishya menshi, igeretse inshuro nyinshi, ni inyubako yubakishije amatafari ahiye afite ibara ry'umuhondo, ikaba isize amarangi y'umweru ku madirishya ndetse no ku nzugi, hakaba hari kandi n'utuzitiro tufasha kurinda abantu kugira ngo hirindwe impanuka zo guhanuka, ni inzu iherereye mu mujyi wa Kigali, aya magambo yanditswe mu magambo y'umukara.

Aha ngaha hari inzu nziza cyane ifite uruganiriro rubereye ijisho, ni inzu iteguye neza kandi irimo isuku, kandi irimo itara rinini cyane rimurikira abicaye mu ruganiriro, rimurika ibara ry'umweru. Ni inzu iherereye Kibagabaga mu mujyi wa Kigali akaba ari inzu ifite uruganiriro rubiri, urwo hasi ndetse n'urwo hejuru, hakaba hari ari inzu kandi igurishwa amadorari ijana na ma.

Ahangaha ni mu nzu nziza cyane irimo igikoni cyiza cyane kirimo ibikoresho byose umuntu ashobora kwifashisha mu gikoni harimo igikoresho cyagenewe gushyushya ndetse n'ikindi cyagenewe gukonjesha, harimo kandi indobo ifite ibara ry'icyatsi ndetse ni jerekani ifite ibara ry'umuhondo. Ni igikoni cyiza cyane kandi kirimo isuku wabona mu mujyi wa kigali ku mafaranga, amadolari magana atanu mirongo itanu.

Ahangaha hari inyubako nziza cyane ibereye ijisho ifite ubusitani ndetse n'indabo nziza cyane, ni inyubako iriho amarande y'umukara, umweru akaba kandi ari inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali ikodeshwa ku kwezi ikishyurwa amadolari magana inani.

Aha ngaha hari inzu nziza cyane isize amarange meza cyane abereye ijisho, hari irangi ry'icyatsi, iry'umuhondo ndetse n'irangi ry'umweru risize mu gisenge, hakaba hari urugi rubaje mu giti ndetse rufitemo ibirahuri by'ubururu, hakaba hari kandi n'idirishya risize irangi ry'umweru rikaba kandi na ryo rifite ibirahure by'ubururu.

Aha ngaha hari inzu nziza cyane yubatse neza kandi yubatse mu buryo bugezweho, ifite uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye ndetse hariho ibyuma bisize irangi ry'umukara, ni inzu igurishwa ku mafaranga miliyoni mirongo irindwi n'eshanu mu Mujyi wa Kigali Kabeza.

Aha ngaha hari icyumba cyiza cyane, kishashe neza, kiri mu nzu nziza, aho hejuru ku gisenge hari itara rimwe ryiza cyane rimurika, hakaba igitanda kiriho amashuka y'umweru ndetse n'imisego y'umweru, hakaba ari igitanda kibereye ijisho ku buryo umuntu yaryamaho akisanzura. Aha ngaha ni mu nzu iri mu Mujyi wa Kigali, aho ushobora kuyikodesha ku madorari magana inani ku kwezi.

Aha ngaha hari inzu nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho, ni inzu isize irangi ry'icyatsi ndetse n'amarangi y'umweru, akaba ari inzu nziza cyane ifite uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye, ikaba kandi ifite amabati atukura, ni inzu iherereye Kigali Kibagabaga igurishwa kuri miliyoni ijana na mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda.

Aha ngaha hari inzu nziza cyane yubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho, ni inzu isize irangi ry'umuhondo ndetse n'iry'ikijuju, ikaba ifite amatara meza cyane, amwe ari kwaka andi ntabwo ari kwaka, ni inzu kandi idasojwe, itarangijwe kubakwa neza inzu ikodeshwa.

Iyi ni inzu nziza cyane ibereye ijisho isize irangi ry'umuhondo ikaba ifite amabati atukura ni inzu iherereye kimironko mu mujyi wa Kigali ikodeshwa ikaba ifite ibyumba bibiri ,ubwogero bubiri ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu mirongo itanu by'amafaranga y'u rwanda buri kwezi .

Ahangaha hari inzu nziza cyane ni inzu isize irangi ry'umweru ndetse ifite itara rimwe ryo hanze hakaba hari kandi n'indabo ziri imbere y'umuryango hari kandi n'urugi rwiza cyane rufite ibirahuri by'umukara narwo rushin irangi ry'umukara ni inzu iri ifite ibyumba bitatu ubwogero butatu ifite uruganiriro ndetse naho kurira hakaba hari n'umwanya w'igikoni.

Ahangaha hari inzu nziza cyane ibereye ijisho, ni inzu ifite irangi ry'ubururu, ikaba ifite amabati atukura, hakaba ndetse n'irangi ry'umukara n'umweru, akaba ari inzu kandi ifite uruzitiro rwubakishije amabuye n'amatafari ahiye, akaba ari inzu igurishwa iherereye Kabeza hafi y'umurenge.

Iyi n'inzu nziza cyane ifite amabati y'ubururu ikaba isize amarangi agiye atandukanye, hakaba hari amarangi y'umuhondo, umweru, ndetse n'andi ajya gu gusa umutuku ariko werurutse cyane. N'inzu iherereye i Kigali i Kanombe ifite ibyumba bitatu ndetse n'ubwogero bitatu, ikaba ikodeshwa ku bihumbi magana atanu by'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi.

Iyi ngiyi ni inzu nziza cyane isize irangi ry'umutuku, irangi ry'ubururu ndetse n'andi marangi atandukanye ikaba ifite urugi rusize irangi ry'umweru . Ni inzu kandi ifite ubusitani bwiza cyane ndetse n'utuyira umuntu ashobora kunyuramo kandi dufite isuku. Ni inzu ikodeshwa iherereye mu mujyi wa kigali ,kimironko ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero bubiri umuntu ayikodesha ku bihumbi magana atatu na mirongo itanu buri kwezi .

Ahangaha hari inzu nziza cyane kandi inzu ndende ifite imiryango myinshi ndetse n'amadirishya meza cyane ni inzu isize irangi ry'umuhondo ndetse n'ibyanjye by'umutuku ikaba kandi ifiteho n'irangi ry'umukara ifite amadirishya n'inzugi bisize irangi ry'umweru ni inzu kandi ifite aho ushobora guparika ikinyabiziga ikaba kandi ifite n'ubusitani bwiza cyane.

Iyi ngiyi ni inzu nziza cyane ni inzu ibereye ijisho kandi yubatse neza mu buryo bugezweho ni inzu isize amarangi atandukanye harimo afite ibara ry'ikijuju ijya gusa umukara umweru ndetse n'ubururu ikaba ifite amabati y'umutuku. Ni inzu kandi igurishwa iherereye i kanombe mu mujyi wa kigali igurishwa miliyoni ijana z'amafaranga y'u Rwanda.

Ahangaha hari inzu nziza cyane isize amabara meza cyane hari ibara ry'ikijuju, ibara ry'icyatsi ryerurutse ikaba ifite inzugi zisize irangi z'umukara, hakaba hari ipikipiki iparitse hanze, ni inzu kandi ifite ubusitani bwiza burimo indabo zitandukanye, ikaba ifite n'uruzitiro rwiza cyane, ni inzu ikodeshwa iherereye i Kanombe mu Busanza ifite ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu.

Aha ni mu isoko rinini riba ririmo ibikoresho bitandukanye, aha ngaha hari ibyo kurya bigiye bitandukanye biri mu ubwoko butandukanye, biri mu mashashi afite amabara atandukanye hari ay'umuhondo, hari afite umutuku, hari ay'ubururu ndetse n'ibindi biribwa byinshi cyane cyane biribwa n'abana ndetse n'abantu bakuru.

Ahangaha ni mu iduka ry'imyenda, harimo umugabo wambaye umupira w'umukara, inyuma ye hakaba hari imyambaro y'abagore izwi nk'amakanzu ifite amabara atandukanye, harimo ikanzu y'ubururu ndende ndetse n'andi makanzu afite amabara menshi atandukanye, arimo umukara, umutuku, umuhondo, ndetse n'andi menshi.

Ahangaha ni mu iduka ribamo ibicuruzwa bitandukanye ibyo kurya ndetse n'ibindi bikoresho bikenerwa n'abantu mu buzima bwa buri munsi. Hakaba harimo abaguzi ndetse n'abagurisha bari gufasha aba bantu kubona ibyo bakeneye cyangwa ibyo baje guhaha. Harimo ibicuruzwa bitandukanye by'amoko atandukanye kandi biri ku murongo bitondetse neza bibereye ijisho.

Ahangaha ni mu isoko rinini cyane ribamo ibicuruzwa bitandukanye birimo cyane cyane ibikenerwa mu buzima bwa buri munsi, abakiriya bazamo bakaza guhaha. Ahangaha hari mudasobwa yifashishwa cyane n'umucuruzi kugirango abashe kubibara cyangwa gushyiramo ibicuruzwa yacuruje akaba hari kandi iri isoko ryisanzuye ririmo umwanya munini ku buryo abaguzi bataza kubyigana.

Iringiri ni isoko rinini ni ibicuruzwa bitondetse ku murongo harimo cyane cyane ibyo kunywa hejuru hari ibicuruzwa bitondetse neza bidateje akavuyo ku buryo bitagora umuguzi kubona ibyo ashaka aho kiri hasi kandi hari imitobe itandukanye ikozwe mu mbuto zitandukanye ndetse n'amazi yo kunywa .

Iri n’ isoko rinini cyane! Ribamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ahangaha hari imbuto z'amoko atandukanye, harimo imineke ndetse n'izindi mbuto zitandukanye ndetse kandi n'imboga. Harimo abaguzi n'abacuruzi bari gutuma ubucuruzi bugenda neza kandi bugakomeza gutera imbere.

Aha ngaha ni mu iduka rinini riba ririmo ibikoresho bitandukanye abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi, ni ibikoresho bitondetse neza ku murongo ku buryo bidateje akavuyo kandi harimo amatara meza ariko aka kugirango amurikire abari kugura, harimo umugabo wambaye imyenda y'imikara urimo arahaha.

Iri ngiri ni isoko riba ririmo ibicuruzwa bitandukanye abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi. Aha ngaha hakaba harimo umukobwa ufite mudasobwa imbere ye, aha ngaha hakaba higanjemo ibara ry'umutuku, hakaba harimo amatara y'umweru ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bifite amabara atandukanye.

Iri ni isoko rinini cyane ribamo ibicuruzwa by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo igipirizo gifite ibara ry'umutuku werurutse, hakaba harimo abaguzi n'abagurisha batandukanye, harimo urujya n'uruza rw'abantu benshi baje guhaha ibintu bitandukanye bitewe n'ibyo bakeneye.

Iri ngiri ni isoko rinini cyane rihuriyemo abantu benshi riba ririmo ibikoresho byinshi abantu bakenera mu buzima busanzwe, harimo ibikapu by'amoko atandukanye ndetse harimo urujya n'uruza rw'abaguzi n'abagurisha bari gukora ubucuruzi muri rino soko rinini, ni isoko rifite igisenge gifite ibara ry'umweru ndetse riri kwakamo amatara ari kubafasha kugira ngo abamurikire.

Ahanga ni mu isoko rinini cyane riba ryubatse mu buryo bwa kijyambere rihuriramo abantu benshi kuko habamo ibicuruzwa by'ubwoko bwose ku buryo ibicuruzwa byose washaka wajya kubishakiramo . Ni isoko rinini cyane rifite igisenge gifite ibara ry'umweru ndetse harinkwakamo amatara menshi ari gufasha abantu kubamurikira kugira ngo hatagira ibibazo bahuriramo nabyo .

Ahangaha ni mu iduka ririmo ibikoresho bitandukanye harimo cyane cyane ibikoresho by'ubwiza hakaba harimo ibikapu by'abagore bifite amabara atandukanye inkweto ndetse n'ibindi bijyanye n'imitako hakaba kandi hari n'ibindi by'imirimbo bikunda kwambarwa cyane n'abagore n'abakobwa.

Iri ni isoko ririmo ibintu bitandukanye cyane cyane bikoze mu ruhu harimo imikandara yambarwa cyane cyane n'abagabo ndetse n'abagore hakaba hari ibikapu bitandukanye biri mu mabara atandukanye harimo iby'abagore ndetse n'ibindi bitandukanye, si ibyo gusa kandi hari n'inkweto zo kwambara.

Iri ni isoko rinini ririmo utubati dufite ibara ry'umutuku, harimo ibicuruzwa bitandukanye, hakaba harimo abaguzi ndetse n'abagurisha batandukanye, ni isoko rinini cyane ririmo ibicuruzwa by'amoko menshi hakaba ari kwakamo amatara menshi cyane kandi yaka ibara ry'umweru.

Ahangaha ni isoko rinini cyane ribamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye by'amoko menshi umuntu ashobora gukenera ubuzima busanzwe ahangaha hari radiyo yagenewe kurangurura amajwi kugirango ngo abantu babashe kumva n'abatayegereye bumve hari kandi ibyapa by'ikigo cy'itumanaho gikorera mu rwanda bigaragaza bifite amabara y'umuhondo byandikishijwemo amabara y'umukara.

Iyi ngiiyi ni inzu nini cyane inzu ndende igeretse inshuro nyinshi, irimo imiryango myinshi cyane ikorerwamo ubucuruzi butandukanye kandi ikorerwamo abantu benshi cyane, hari aho bacuruza imyambaro y'abantu bakuru, ari aho bacuruza imyambaro y'abana ndetse n'ibindi bitandukanye, hakoreramo cyane cyane n'ibindi bigo byinshi byigenga, ni inzu nziza kandi yubatse mu buryo bwa kijyambere kuko hakorerwamo ubucuruzi bugezweho.

Iri ngiri ni isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, ariko hano hari ibitambaro cyangwa se bimenyerewe gusaswa hasi cyangwa ku buriri butandukanye cyangwa se hasi ahantu abantu bakandagira cyane cyane mu ruganiriro cyangwa se mu byumba abantu bararamo.

Iri ngiri ni isoko rinini riba ririmo ibintu bitandukanye, ibikoresho bikenerwa n'abantu mu buzima bwa buri munsi, iri soko ririmo isuku kandi ririmo ibikoresho bitandukanye harimo abaguzi bari kugura ibikoresho harimo abagore abenshi bambaye imyenda y'imyeru hakaba hari n'abacuruzi bari kubafasha kubona ibyo bakeneye.

Ahangaha hari icyumba kirimo abantu batandukanye bicaye ku ntebe zibaje mu biti, ni abantu benshi barimo abagore ndetse n'abagabo, hari umu umugabo wicaye imbere wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, icyumba barimo ni icyumba cyiza cyane gisukuye gifite igisenge gifite ibara ry'umweru, ndetse kirimo imirongo y'umukara.

Ahangaha hari umugore witeye igitambaro cy'umuhondo kirimo amabara y'icyatsi akaba afite ikarita y'ubwisungane mu kwivuza ariko ifite ibara ry'icyatsi ikaba yandikishijwe amagambo mu ibara ry'umukara.

Aha ngaha hari umuntu wambaye ikabutura y'umuhondo ndetse n'ishati irimo amabara atandukanye, harimo umutuku, ubururu, umweru, akaba afite ikarita ifite ibara ry'icyatsi, ni ikarita izwi cyane kuko ikoreshwa mu gihe cyo kwivuza, ikarita y'ubwisungane mu kwivuza.

Ahangaha hari abantu bicaye ku ntebe zibaje mu biti, abagore batatu bicaye imbere abandi babiri bi bari inyuma hakaba hari n'umugabo umwe wicaye imbere. Harimo umukecuru uhagaze wambaye umupira w'umuhondo witeze igitambaro cy'umutuku werurutse mu mutwe. Bicaye ku ntebe bose bafite ibipapuro mu ntoki hari n'umugore ufite isakoshi y'umukara mu ntoki.

Ahangaha hari mudasobwa irimo ikirangantego cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imibereho myiza ndetse n'ubuzima bwiza bw'abaturage, gikoresha ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umweru n'ikimenyerewe cyane mu gutanga ubwisungane mu kwivuza ku bantu bagiye batandukanye.

Ahangaha hari abantu babiri umwe ni umukecuru ukuze undi ni umubyeyi uhetse umwana wamuteye agashuka k'umweru bose bafite amakarita y'icyatsi n' amakarita y'ubwisungane mu kwivuza, imbere yabo harimo idirishya ririmo umuntu uri kubafasha.

Aha ngaha hari umugabo uri guca ku nsakazamashusho wambaye ikoti ry'umukara akaba yambaye n'ishati y'ikijuju, hakaba kandi iruhande rwe hari ikirangantego cy'ikigo cy'ubwiteganyirize bw'ejo hazaza bwitwa ejo heza.

Iri ngiri n'isoko rinini cyane riba ririmo ibicuruzwa bitandukanye bitondetse ku murongo neza kandi ntago biteje akavuyo, harimo abaguzi ndetse n'abagurisha batandukanye, harimo umuguzi umwe wambaye umupira w'umuhondo. Hakaba harimo n'abandi batandukanye abakozi bakorera muri iryo siko, kandi riri kwakamo amatara meza cyane menshi yaka ibara ry'umweru.

Ahangaha ni mu iduka rinini ribamo ibikoresho bitandukanye bikenerwa n'abantu mu buzima bwa buri munsi, habamo ibikoresho byo mu nzu ibyo guteka imbuto ndetse n'imboga n'ibindi bigiye bitandukanye, iri duka ririmo urujya n'uruza rw'abaguzi baza guhahira muri iri duka bashaka ibintu bitandukanye, ibintu birimo biri ku murongo kandi bifite isuku.

Ahangaha ni mu iduka ribamo ibikoresho byinshi bitandukanye: ibyo guteka, ibyo kunywa ndetse n'ibindi bitandukanye abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi. Harimo umugabo wambaye ingofero y'umukara ikaba yandikishijweho amagambo mu ibara ry'umweru akaba kandi yambaye umupira w'umuhondo; afite kimwe mu bicuruzwa biri aha ngaha gifite ibara ry'umuhondo, ni ibicuruzwa bitondetse ku murongo neza kandi bidateje akavuyo.

Iri ngiri ni isoko rinini rivamo ibikoresho bitandukanye bikenerwa n'abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi, ahangaha hakaba hari imbuto zitandukanye ziri mu mashashi, hakaba kandi harimo n'ibindi bicuruzwa byiza cyane bikaba bitondetse ku murongo ku buryo bidateje akavuyo. Ibi kandi byorohera umuguzi kubona icyo ashaka aho giherereye.